Umunara mwiza cyane, usa nk'uwo kwa Mushubi.

ya hs hs

Iyi Audiyo irimo ubusa. Ntakintu kiri kuyivugwamo.

Hano ho harimo imodoka izwi ku izina rya twegerane hirya y'aho hari abamotari basa nkaho ari batatu bose bambaye kasike z'umutuku kandi bahetse abagenzi.